Abantu benshi abasore n'inkumi bicaye ku ntebe zitukura, bambaye udusengeri twera dufite udusaraba dutukura, mugihe imbere yabo hahagaze umuntu nawe wambaye we agasengeri gatukura gafite umusaraba w'umweru, bazwi nka Kuruwaruje, bazwiho gutabara imbabare.

Icyumba babyariramo, muri icyo cyumba turabonamo agahinja karyamishijwe ku gitanda cyako gito ndetse n'umumama ukenye igitenge wicaye ku ntebe, ameze nkaho ari kureba muganga.

Abana benshi bato bicaye ku kumukeka, bari kumweywa igikoma, bigaragare ko bari mu irerero, aho mu irerero rero, niho abana barererwa kugirango ngo babashe kugira imikurire myiza bitabwaho bahabwa igikoma ndetse n'amata, bibafasha gukura neza.

Abantu benshi cyane bari kugenda mu muhanda, muri bo higanjemo urubyiruko, imbere bafite icyapa kinini cyanditseho amagambo yo kwamagana ibiyobyabwenge, agira ati inzoga si z'abato, ibiyobyabwenge birica, ikunde, gukoresha ibiyobyabwenge byangiza ubuzima, byirinde.

Inzu y'imiti, turabona imiti igiye itandukanye ariko cyane cyane turabona iyiganjemo iyo batera bifashishije pompo ndetse n'imiti yo kwisiga.

Inzu icururizwamo imiti; muri iyo nyubako harimo imiti igiye itandukanye, harimo kandi na mudasobwa yifashishwa mu kubika amakuru agendanye n'uko imiti yaranguwe; ndetse n'uko yacurujwe, ibyo bikaba ari ukugira ngo byorohe mu igenzura.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda. Abo bantu harimo abagabo, abagore ndetse n'abashinzwe umutekano: abasirikare, abadaso ndetse n'abapolisi. Imbere bafite icyapa cyanditseho ngo: "ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi 2019. Gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge ni inshingano zanjye".

Ibigo nderabuzima n'amavuriro turabona imodoka ebyiri z'imbangukiragutabara, zifashishwa n'amavuriro ndetse n'ibigo nderabuzima igihe babonye umurwayi arembye bashaka kumuvanaho kugira ngo bamushakire ubutabazi bwisumbuyeho ku bitaro.